Inzu y'ubucuruzi bw'amarange y'amoko atandukanye, igaragaraho n'umuntu ugiye kugura amarangi.

Icyapa kigaragaza inzu ya koperative, kuri icyo cyapa hariho ibirango bya koperative, impande y'inzu hari ibiti n'ipoto y'amashanyarazi.

Mo imbere harimo abantu, harimo inkweto, bari gucuruza, harimo izuba, hari kugaragara neza, harimo ubucuruzi busanzwe bw'inkweto za bodaboda.